Abana bafashwa n'umushinga, bari kugaburirwa n'abakorera umushinga babitaho mu buryo bwimirire n'uburyo bw'imibereho.

Inama ihuje abayobozi n'abo bayobora, mu kuganira ku bintu byavugururwa cyangwa se byakongerwa mu mikorere yabo.